Amazi muri rusange ni ubuzima ibyo ni ntashidikanywaho. Niyo mpamvu usanga Leta ndetse n'abandi bose n'ibigo bitandukanye, bikora uko abishoboye kugira ngo byegereze amazi abaturage, ndetse n'abandi bayakeneye, kubera ko rimwe na rimwe ahantu hatari amazi n'ubuzima ntibuba bushoboka.

Mu rwego rwo gukaza ingamba zo kugira isuku ndetse no kongera ubuzima bwiza mu bantu, ni byiza ko abana batozwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ndetse bagatozwa isuku mu rwego rwo hejuru kugira ngo babeho neza kuko aba ari bo ejo haza heza h'abantu muri rusange.

mM rwego rwo kurwanya ndetse no kugira ubuzima bwiza amazi ni ingenzi kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza, niyo mpamvu yaba aho aturuka ndetse n'icyo tuyabikamo kiba kigomba kugirirwa isuku kubera ko nanone aho hatari isuku ashobora kugutera uburwayi ndetse ukarwara cyangwa se ugapfa.

Iyo hirindwa ikintu runaka, usanga ari ngombwa ko abantu bakomeye ndetse n'abandi bose babifiteho amakuru, bamanuka bakageza ku baturage amakuru yabyo. Yaba yanditse, cyangwa se akanyuzwa ku bitangazamakuru, aba ari ngombwa byose, kuko bifasha umuntu kwirinda, ndetse muri rusange bikagerwaho neza ijana ku ijana.

Mu buzima usanga hafatwa ingamba ndetse n'amabwiriza akomeye, aho usanga abaganga ndetse n'abandi bahugura abantu bizeye muri rusange, kugira ngo babafashe mu buzima kugira ngo nanone serivisi y'ubuganga igerweho kuri buri muntu, kandi byihute ndetse ubuvuzi butere imbere.

Gutoza abana kugira isuku, aba ari kimwe mu bintu abantu baba basabwa kugira ngo babashe kugira ubuzima bw'abana babo bwiza, mu gihe baba bakiri bato cyangwa se n'igihe bakuze kubera ko bifasha mu kwirinda ndetse no kwita ku buzima bwabo kugira ngo babashe kubaho ntandwara zibatera cyangwa se ibindi bibazo byose byo mu buzima.

Abana muri rusange usanga ari byiza kubitaho yaba uhereye ku byo barya ndetse n'ibyo banywa, ukabaha ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara kuko baba bakwiye gukura yaba mu gihagararo ndetse ndetse n'ubwenge, ni yo mpamvu tugirwa inama yo kubarinda ibibi byose, yaba kubakoresha imirimo ivunanye cyangwa se n'ibindi byazabangiriza ejo hazaza heza.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima, Leta yashyize imbaraga mu kwihutisha iterambere binyuze mu ikoranabuhanga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ahantu henshi haba umuriro, haba hari ibishinzwe kuwuzimya, cyangwa se ibindi byuma ibyo aribyo byose bishobora gutabara ahantu hagizeze ikibazo cy'inkongi y'umuriro.

Inama nyinshi z'abakomeye, ndetse n'aboroheje, usanga zikunda kubera ahantu, rimwe na rimwe nko mu nzu zifunze kandi zirimo isuku, ugasanga ari ngombwa kuko ziba zigomba kuba ahantu hafite isuku, ndetse n'umutekano, mu rwego rwo kubungabunga, ubuzima bw'abarimo.

Amazi ni kimwe mu bikoresho umuntu yabura agahangayika yaba ku isi hose nko muri afurika, mu Rwanda cyangwa se i Burayi yaba abakuru n'abato twese ndetse n'inyamaswa usanga duhuriye ku gukenera amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu ari ngombwa kuyabungabunga ahantu hose ari.

Leta kugira ngo ihashye indwara runaka, ni ngombwa ko ifatanya n'abaturage ndetse n'abaganga kugira ngo iyo ndwara icike burundu, niyo mpamvu usanga bahugura abantu bamwe na bamwe, mu rwego rwo kubahuriza ahantu hamwe maze bagafata amakaye n'amakaramu bakiga kuri iyo ndwara kugira ngo bayigireho amakuru ahagije maze izabashwe guhashywa.

Amazi mu buzima ni ngombwa kubera ko usanga ari yo afasha mu gukora isuku cyangwa se guteka ndetse n'ibindi bikorwa bya buri munsi muri rusange mu buzima bw'abantu, ndetse akenshi aba ari ngombwa kuyashyira ahantu heza kandi haboneye kubera ko aba ari byiza byarinda umuntu indwara.

Mu rwego rwo guhashya ndetse no kurwanya indwara zimwe na zimwe, Abanyarwanda ndetse n'abantu bose muri rusange bagirwa inama yo kuvoma amazi bakoresheje amajerekani asa neza ndetse n'ibikoresho ibyo ari byo byose bihurizwamo amazi, bikaba bifite isuku ihagije kugira ngo birinde indwara zimwe na zimwe.

Mu rwego rwo kurwanya indwara zimwe na zimwe ziba zarabaye karande, cyangwa se zigoranye mu kugira ngo abantu bafatanyirize hamwe usanga leta ihugura abantu benshi, kugira ngo bazajye bayifasha gutanga imiti cyangwa se, kugeza serivisi z'ubuvuzi ku bantu byihuse.

Amazi ni kimwe mu bintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi niyo mpamvu umuntu aba agomba gusukura ibikoresho byose ayashyiramo rimwe na rimwe ni ukuvuga amajerekani kugira ngo yirinde indwara zishobora kumuturukaho binyuze muri ayo majerekani cyangwa ibyo bikoresho akoresha avoma ndetse abika ayo mazi.

Mu rwego rwo guhashya indwara zimwe na zimwe, aba ari ngombwa ko imiti cyangwa se ibindi byose bikoreshwa mu kuvura biba byanditse ndetse bisobanutse ku bantu babikoresherezwaho ndetse Leta igasobanurira kandi igatanga amabwiriza ku baturage kuko akenshi aba ari bo ikorera.

Bivugwa ko ngo umwana ari umutware, niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe cyangwa se akenshi iyo umugore yaruhutse cyangwa se yabyaye aba ari ngombwa ko ahabwa ubufasha ndetse n'umuntu umwitaho nk'umuganga, kugira ngo akurikirane iby'uwo mwana ubuzima bwe bwiza kugira ngo azakure neza mu gihagararo no mu bwenge.

Ihuriro ryinshi ry'abantu, usanga ribera ahantu nko ku biro wenda by'akagari cyangwa imirenge, mu rwego rwo kujya gusobanuza cyangwa gusaba serivisi zitandukanye kuri ibyo bigo, kuko ari hamwe ahantu ubuyobozi buba bushingiye kandi hagomba kuba hakenewe, ndetse hahuriwe n'abaturage.

Kugira ngo hitabwe ku buzima, usanga abaganga cyangwa se abandi bantu bose bafite ubumenyi ku buzima, boherezwa ahantu hari umubyeyi wabyaye ndetse ufite umwana, kugira ngo bafate amakuru amwerekeyeho, ndetse azajye yitabwaho kandi akurikiranwe mu gihe akeneye ubufasha abashe kuba abubona bitagombye kumugora.

Kugira ngo hitabwe ku buzima neza Leta n'ibindi bigo byose bishinzwe ubuzima byubaka amashuri, amazi hafi y'abaturage kubera ko ari bimwe mu bikoresho ndetse na za serivisi zikenerwa n'abantu benshi, maze kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse babeho neza.

Kugira ngo hirindwe indwara nyinshi cyangwa se ibyorezo muri rusange, akenshi abantu baba bagomba kuvurwa hakoreshejwe inshinge cyangwa se indi miti iyo ari yo yose, kandi bakambara udupfukamunwa rimwe na rimwe iyo bikenewe bitewe n'indwara yadutse, cyangwa se kugira ngo bifashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuzima bw'abana buba bukwiye kubungwabungwa, cyane cyane wirinda kubakorera ibiremereye ndetse no kubafasha kugira isuku ukabafasha kumesa, ndetse no gukaraba rimwe na rimwe, kugira ngo bakure neza mu gihagararo no mu bwenge, kuko ari bo baba ari ejo hazaza hacu.

Mu kwirinda indwara zimwe na zimwe cyangwa se ibyorezo ibyo aribyo byose, bisaba ubufatanye bw'abantu na Leta muri rusange kugira ngo habashe kwirindwa cyangwa se gukaza amabwiriza ndetse n'ingamba kuri icyo cyorezo. Ni yo mpamvu usanga imiryango mpuzamahanga iba ifite ibiyiranga ndetse kandi ifite n'inshingano zo kurwanya indwara zimwe na zimwe.

Inama nyinshi zita ku buzima usanga zihuriza hamwe abaturage n'abaganga maze bagahugurwa kugira ngo babashe kuba bakorera hamwe ndetse babashe kuba bagira ubuzima bwiza kubera ko iyo umuntu cyangwa se umuturage agifite ubuzima bwiza n'umuganga agira ubuzima bwiza.

Inama ihuriza hamwe abantu benshi yaba abanyeshuri n'abarimu babo, akenshi iyo yiga ku buzima usanga baba bambaye amakarita asobanura ibyo bakora cyangwa se n'amazina yabo n'umwirondoro, mu rwego rwo guhuriza hamwe ibitekerezo ndetse n'ubuhanga bwo kurwanya indwara zimwe na zimwe ndetse no kuzihagarika.

Mu kwiga ku buzima usanga ari ngombwa guhuriza hamwe abantu bose, yaba intiti ndetse n'abashakashatsi muri rusange, kugira ngo babashe gushyiraho amahame agenga ubuzima ndetse n'ingamba nziza zibasha kubeshaho abantu bose muri rusange, mu rwego rwo kubungabunga ubuzima ndetse no mu mibereho myiza.

Inama nyinshi zihuriza hamwe abantu biga ku ndwara, usanga rimwe na rimwe baba bagomba kuba bafite ababasobanurira ndetse n'abitabiriye muri rusange badafite amakuru ahagije kugira ngo babashe kuba bigira hamwe ndetse babashe kurwanyiriza hamwe iyo ndwara.

Mu nama nyinshi akenshi usanga iyo hahuriye abantu benshi biga ku buzima, aba ari ngombwa ko bafata amazi bakayashyiraho ngaho kugira ngo usinzira cyangwa ucika intege abashe kuyasomaho maze bimufashe, kandi abashe gutanga igitekerezo cye nta kibazo afite, mu rwego rwo kwihutisha no gutanga neza umurongo w'akazi.

Inama zo kurwanya ndetse no guhashya ibyorezo ndetse n'indwara muri rusange, usanga ari ngombwa ko zihuriza hamwe abaturage ndetse n'abaganga maze bagahabwa impuzankano, igaragaza ko bari gukorera hamwe kugira ngo bazabashe gutsinda iyo mburagasa y'indwara ndetse n'ibindi.

Mu buryo bwo kwirinda indwara yaba icyorezo cyangwa se indi iyo ariyo yose aba ari ngombwa ko haba hari abantu babishinzwe nk'abaganga cyangwa se abandi bafasha nk'abaforomo kugira ngo basobanure amakuru menshi arenze kuri iyo ndwara bayabwire abaturage nabo babashe kwirinda bafatanyije na leta aba yashyizeho amabwiriza

Rimwe na rimwe ihuriro ry'abantu bakomeye nk'abaganga ndetse n'abayobozi baba bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu, usanga akenshi bakunda guhurira mu mazu manini ndetse kugira ngo bige ku buzima bw'abanyagihugu, akenshi buba butewemo ikibazo kugira ngo bakirwanyirize hamwe iyo ari indwara ikomeye cyangwa se iyoroheje.

Ibigo mpuzamahanga bishinzwe kurwanya indwara zandura ndetse n'izitandura, yaba ibyorezo ndetse n'ibindi, usanga biba bifite iminsi yabihariwe, yo kurwanya ndetse no kwibutsa abantu bose muri rusange izo ndwara, ko zikwiye guhatirizwa zikarimburwa, ndetse zikitabwaho kugira ngo zibashe kurimburwa burundu.

Mu rwego rwo kunoza ndetse no kugira ubuzima bwiza, bihera ku bana kubera ko aba ari bo bafite ubuzima burebure ugereranyije n'abantu bakuru, niyo mpamvu baba bagomba kwitabwaho ndetse bakigishwa ibintu byose byabafasha kubaho neza harimo isuku ibintu byose muri rusange byabafasha kugira ubuzima bwiza.

Amazi ni kimwe mu bintu bishobora kubuza abantu benshi amahoro, cyangwa se umutekano mu gihe yabuze, ariko na none ashobora kwica abantu benshi binyuze kuko yagiriwe umwanda, niyo mpamvu Leta ndetse n'ibigo bishinzwe ubuzima, bigira abaturage inama ko ahantu hose hari amazi ndetse n'ibyo bayashyiramo bigomba kuba bifite isuku ihagije.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi ndetse n'ibindi usanga abaganga ndetse n'ibindi bigo bakorera ari ngombwa gutanga serivisi ziboneye ku baturage babagana, yaba abana ndetse n'ababyeyi babo baba baje babashaka ni ngombwa kugira aho babandika ndetse baka amakuru bahawe kuyashyira muri za mudasobwa ndetse no ku mpapuro kugira ngo batazatesha agaciro ayo makuru.

Mu rwego rwo kwita ku buzima, hari ibintu byinshi yaba nk'amanama ndetse n'ibindi bigenda bihuriza abantu benshi ahantu hamwe, kugira ngo bige ku biba byugarije isi, yaba nk'ibibazo by'indwara cyangwa ibyorezo, kugira ngo bibonerwe umuti ndetse n'urukingo.

Ni byiza ko umwana akiri muto yigishwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe ndetse guteza imbere imikurire ye, niyo mpamvu twese muri rusange tuba dukwiye kubikora kuko nanone umwana ntabwo ari we gusa ukwiye kugira isuku cyangwa se kuyigirirwa wenyine, abantu bakuru bose baba bayisabwa.

Mu nama nyinshi ziba zahurije abantu hamwe, iziga ku buzima akenshi cyangwa se kurwanya indwara runaka, usanga akenshi abazikora baba bafite amazi kandi imbere y'abo bitabiriye, hakaba hari ababishinzwe na none, bakwiye kubasobanurira indwara cyangwa se gutanga amakuru arenze kuri iyo ndwara, bakaba bafite za mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa igihe bibaye ngombwa.

Ahantu henshi ku isi yaba muri afurika, usanga haregerejwe amazi, ariko kuyavoma cyangwa kuyakogota uyakura mu butaka ugasanga nabyo biratwara imbaraga abantu, ndetse ugasanga nk'abana rimwe na rimwe bajyayo ariko kuyavoma bikabananira kandi muri rusange amazi ari ubuzima, ndetse agomba gufashwa kandi akabonwaho n'abana ndetse n'abakuru muri rusange.

Kugira ngo ubuzima bubashe kwitabwaho, ni ngombwa kugira isuku ihagije yaba mu bikoresho umuntu akoresha nk'amajerekani ndetse n'ibyo kurya arya kandi ukabisukura ukoresheje amazi meza n'isabune maze ukagira ubuzima buzima kandi burambye.

Kwita ku buzima muri rusange akenshi hakenerwa imbaraga z'abantu bakuru kubera ko rimwe na rimwe usanga aribo bica ibintu iyo batashatse kumva amabwiriza agenga cyangwa se leta iba yashyizeho kugira ngo harwanywe icyo kibazo kiba cyanditswe mu bitangazamakuru cyangwa se ahandi hose.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima, usanga abana ndetse n'abandi bose muri rusange bakwiye kujya bafata amazi bagakaraba ndetse bakayanywa, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, niyo mpamvu muri rusange tubungabunga ubuzima dukoresheje amazi, kandi nanone tukabanza tukayasukura ndetse n'aho tuyabika hakaba ari ahantu hanyangamugaye.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana, usanga akenshi ufasha byinshi mu rwego rwo guteza imbere ubuzima, kuko rimwe na rimwe aba ari ngombwa kuko akenshi biba ari ngombwa gufasha abana, ndetse n'abantu bakuru muri rusange.

Ubuzima bw'umwana akenshi butangira umubyeyi we akimutwita. Ariko nanone iyo amaze kugera ku isi aba ari ngombwa, kandi ari uruhare rw'umuganga ndetse n'umubyeyi ko bafatanya bakamurinda ndetse ugasanga baramuha imiti buri kwezi cyangwa se buri gihe runaka byagenwe, kugira ngo abashe kuba arindwa, ndetse agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Mu kwita ku buzima ntabwo dukwiye kureba ku bw'abato gusa, ahubwo n'abantu bakuru baba bagomba kwitabwaho, kubera ko umuntu ushaje ni we ahubwo ukwiye kwitabwaho cyane, kuko aba atagifite imbaraga zo kwiyitaho, niyo mpamvu dusabwa kujya dufasha abakuru ndetse n'abatoya muri rusange, mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwa buri kintu muri rusange na buri muntu.

Ahantu hahuriye gahunda zishinzwe n'ubuzima bwo mu mutwe, usanga akenshi baba bateye intebe mu buryo bw'imizenguruko kugira ngo basangire ndetse bahanahane ibitekerezo, ni yo mpamvu usanga abantu bose bahitabiriye bagomba guhabwa umwanya wo kwisobanura ndetse no kuvuga uko babyumva.

Ubuzima bwo mu mutwe akenshi bugendana n'imibereho y'umuntu baba bapima iyo usanga atambayeho byizewe niyo mpamvu usanga babihuza n'ikibazo cy'uko ashobora kuba yapimwa akamenya uko abayeho ndetse n'imibereho y'abo atunze ni ukuvuga urubyaro rwe biba bifite aho bifitaniye isano.

Rimwe na rimwe usanga ubuzima bwo mu mutwe buba bufite aho buhuriye no kwibuka ibyabaye, yaba kera cyangwa vuba. Akenshi niyo mpamvu usanga nk'abazikoraho nk'ubushakashatsi, bagira utya bakabwira umuntu akibuka ikintu cyangwa se bakamusaba gukora ikintu kimwibutsa ikindi.

Ubuzima bwo mu mutwe akenshi usanga buhurirwaho n'ikigo gishinzwe ubuzima yaba abaganga ndetse n'abandi bashinzwe umutekano, kuko usanga umuntu ukoze ikibazo cyangwa se ukoze ikosa muri rusange, iyo agize icyo akora bizamo inzego z'umutekano ndetse no kwa muganga bakabizamo mu rwego rwo kuvura uwo muntu.

Ikigo gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, usanga gikorana na leta bya hafi, mu rwego rwo kubaha ndetse no kwita ku banyagihugu, baba bari muri icyo gihugu. Niyo mpamvu usanga aba ari ngombwa ko amategeko yose ndetse n'amabwiriza anyura muri leta, kugira ngo abashe kuba agenga abo baturage, baba bejejwe.

Mu nama zihuriza abantu ahantu hamwe, usanga akenshi baba bavuga ku buzima cyangwa se ikindi cyose gihuriye no mu mutwe kugira ngo babashe kurwanya ibibazo ibyo aribyo byose biba byugarije Isi muri rusange kugira ngo abantu bamere neza.

Mu buzima bwa muntu bwo mu mutwe, ni byiza ko umuntu agomba kubwitaho kuko iyo ukoze ikibazo cyangwa se ugakora ikosa iryo ari ryo ryose, ni ngombwa ko ugomba gufungwa ukambika amapingu kuko ibyo ntabwo byitabwaho iyo wangije cyangwa se wahungabanyije amategeko.

Inama nyinshi ziga ku buzima bwo mu mutwe, usanga ziba zigizwe na Leta cyangwa se ibigo bishinzwe umutekano ndetse ukongeraho abandi bashinzwe ubuzima ni kuvuga abaganga kugira ngo babashe kurwanyiriza hamwe indwara zo mu mutwe, kuko ibi byose bigira ingaruka ku bantu ndetse no kuri Leta muri rusange.

Ubuzima bw'amenyo akenshi ku bana aba ari ngombwa ko bwitabwaho kuko iyo hagize ikibazo kibabaho ari abana usanga akenshi bibagiraho ingaruka yaba bamaze kuba abantu bakuru nk'abagabo cyangwa se abagore niyo mpamvu aba ari ngombwa ko bitabwaho bakiri abana.

Ubuzima bwo mu mutwe iyo abahanga babusobanura cyangwa se abaganga, usanga rimwe na rimwe bibanda ku kwigunga cyangwa se kwambara nabi ndetse n'ibindi usanga bishobora kugaragaza umuntu ikibazo afite mu buzima bwe bwo mu mutwe. Niyo mpamvu umuntu wese muri rusange umeze neza akwiye kubyitaho kugira ngo agaragare neza mu byo akora ndetse n'ibyo avuga.

Imibereho y'abantu, yaba muri Afurika cyangwa mu Rwanda ndetse no ku isi hose, usanga rimwe na rimwe iba ifite aho ihuriye n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe niyo mpamvu akenshi tugirwa inama yo gusa neza cyangwa se kuvuga rimwe na rimwe ibintu bitondetse neza kuko uko umuntu agaragara inyuma na none akenshi bifite aho bihurizwa n'ubuzima bwe bwo mu mutwe.

Iyo umuntu asetse muri rusange hakunda kugaragara igice cy'amenyo, biba bisobanuye ko amenyo ni kimwe mu bice umuntu aba akwiye kwiyitaho, yaba mu kuyagirira isuku ndetse no kuyarinda, kuko iyo yangiritse rimwe na rimwe usanga bigorana kuyakoresha kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza.

Mu nama ihuriza hamwe abantu yaba abakomeye n'abandi, usanga ari ngombwa kugira amazi cyangwa se kuvuga mu ndangururamajwi, mu rwego rwo gusobanurira abantu bayitabiriye kugira ngo bumve neza kandi iyo yiga ku buzima akenshi ugomba kuba wambaye rimwe na rimwe n'agapfukamunwa kugira ngo wirinde indwara rimwe na rimwe iyo ihari.

Ubuzima bw'abantu bakuru ni kimwe mu bintu biba bikwiye kwitabwaho cyane cyane nko kubafasha kugira ngo bagire mu mibanire myiza rimwe na rimwe icyiza ni ukubahuza bakaganira maze ukumva igikwiye kuba kibafasha kugira ngo wumve niba bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Indwara zo mu mutwe aba ari ikibazo gikomeye ku bantu yaba Leta cyangwa se n'ikigo gishinzwe ubuzima, ni yo mpamvu usanga ahantu hose akenshi Leta ihahuriza abantu kugira ngo isuzume ibibazo byabo, ikabaha ijambo kuko usanga rimwe na rimwe abantu iyo bavuze ubasha kumenya uko wabavura.

Guhurira hamwe kw'abantu baba biga ku ndwara runaka, ushobora nko gusanga akenshi aba ari umuntu umwe, nk'umuzungu waje guhugura abanyeshuri ku ndwara runaka, ndetse cyane cyane nk'iyo mu mutwe, ni ukugira ngo bagire ibyiyumviro, ndetse n'ubumenyi butandukanye, kandi bazabashe kugira ngo batange umusanzu wabo, mu kuvura izo ndwara zigendanye no mu mutwe.

Inama akenshi iba yize ku buzima cyane cyane ubwo mu mutwe usanga iyo irangiye yakozwe n'ibigo bishinzwe ubuzima akenshi bafata ifoto kugira ngo bazibuke ibyabereye aho hantu ndetse kugira ngo bizabafashe gushyira mu bikorwa ibyafatiwemo nk'imyanzuro

Kugira ngo hasuzumwe ubuzima bwo mu mutwe usanga hagenderwa ku bintu byinshi. Ndetse hari igihe biba ari ibintu bigaragarira amaso rimwe na rimwe nk'iyo umuntu aba afite uburyo agira umwanda ukabije cyangwa se atavuga ibintu bifite akamaro cyangwa atekereza neza. Niyo mpamvu umuntu wese aba akwiye kwisuzumisha kugira ngo yumve ubuzima bwe mu mutwe uko buhagaze.

ubuzima bwo mu mutwe usanga bugaragarira akenshi uko umuntu yambara cyangwa se uko avuga cyangwa na none uko agenda niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe iyo bagupima bakubwira kugira ibyo ukora cyangwa se uvuga mu rwego rwo kureba niba ufite ubuzima buzima mu mutwe.

Inama ziga ku buzima bwo mu mutwe, akenshi usanga zihurira ahantu heza nko mu mahoteli kugira ngo abantu babashe kubasha gutanga ibitekerezo uko babyumva neza nta kibazo bafite, kandi nyuma ugasanga bafashe nk'ifoto ndetse bagatanga n'impamyabumenyi y'uko basoje akenshi kuri iyo ndwara.

Ubuzima bwo mu mutwe buba bukwiye kwitabwaho kuko usanga umuntu ufite iki kibazo arangwa no kuba yigunze kandi se atavuga cyane, ikindi akaba afite ibibazo byinshi bigaragarira buri muntu. Niyo mpamvu buri muntu aba akwiye kujya kwisuzumisha inshuro runaka zagenwe n'abaganga, kugira ngo harebwe aho ubuzima afite uko buhagaze bwo mu mutwe.

Ubuzima bwo mu mutwe usanga ari ngombwa kubukurikirana kubera ko igihe cyose bugize ibibazo biba biteye impungenge ku muntu wese wagize icyo kibazo, niyo mpamvu tugirwa inama n'abaganga gukurikirana buri gihe runaka ukajyayo bakagusuzuma bakamenya uko uhagaze kugira ngo utazatungurwa igihe icyo ari cyo cyose.

Igice cy'umutwe cyane cyane amenyo, usanga abaganga batugira inama yo kucyitaho yaba abato n'abakuru, kuko bigaragaza ubwiza ndetse n'isuku. niyo mpamvu kandi aba ari ngombwa kubifata neza ,kuko kubivura bigora ndetse bihenda.

Amenyo kwa muganga usanga ari kimwe mu bice byitabwaho byitondewe, kubera ko usanga bagira inama umuntu wese nko mu gihe ari kuyoza kugira gira ngo abikora ndetse yitonze kubera ko usanga iki gice kigorana kugisimbuza cyangwa se kukibonera insimburangingo.

Abaganga benshi hano ku isi usanga bahurira hamwe kugira ngo batange inama ndetse n'ubufasha ku ndwara z'amenyo, kubera ko aha hantu niho umuntu aba akwiye kwitondera rimwe na rimwe kubera ko bimufasha kugira ubuzima bwiza, ndetse akarya atuje kugira ngo abeho neza.

Igice gishinzwe amenyo, ubwo ni ukuvuga abaganga cyangwa se izindi gahunda zose zihuriyeho n'amenyo, usanga tugirwa inama y'uko igihe iryinyo ryagize ikibazo, aba ari ngombwa kurivura byakanga akaba ari ngombwa kurikuramo, kuko ryakangiza n'ayandi, igihe bibaye ngombwa ritavuwe neza ngo rikire cyangwa rikurwemo.

Amenyo n'umutwe muri rusange, usanga ari kimwe mu bice by'uturanga bwiza ku mubiri w'umuntu, niyo mpamvu abaganga ndetse n'ababishinzwe muri rusange, bagira umuntu kukigirira isuku, ndetse no kucyitaho, kugira ngo azajye akomeza kugira ubuzima bwiza kubera ko na none usanga kugisimbuza bigorana.

Ni byiza ubuzima bw'amenyo ndetse n'igice cy' umutwe muri rusange, ko abaganga babizi neza babihugura ndetse bakabyigisha urubyiruko cyangwa se abana muri rusange yaba mu mashuri ndetse n'ahandi, kubera ko iki gice gikwiye kubungabungwa ndetse kikitabwaho cyane yaba abana n'abakuru.

Uburyo bwiza bwo gusukura amenyo ndetse no kuyagumisha afite ubuzima bwiza, haba harimo kuyoza neza ndetse ukoresheje utuntu dutandukanye, ndetse harimo nk'indodo ndetse n'ibindi byose byagufasha kuyabungabunga neza. Kubera ko iki ari igice cy'ubuzima ndetse gifite akamaro gakomeye ku muntu, ni ngombwa kuyitaho cyane.

Ibikoresho usanga kwa muganga akenshi haba higanjemo iby'ikoranabuhanga ndetse bifite inshingano zo kuvura ibice bitandukanye, nko kuvuga igice cy'amenyo cyangwa se icy'umutwe muri rusange, haba hari ibikoresho byabihuguriwe bigomba gufasha aba muganga kugira ngo bitange serivise nziza kandi iboneye ku bantu bazaza kwivuza amenyo.

Amenyo usanga ari ahantu h'ingenzi ndetse umuntu muri rusange akwiye kwitaho, kubera ko rimwe na rimwe biragorana iyo yangiritse kuyasimbuza kandi abaganga bagira inama abantu bose kujya boza amenyo ndetse ba bakayitondera uburyo bayozamo kubera ko byose biba bisabwa kubikora witonze kugira ngo uyabungabunge.

Ibintu byose umuntu akora usanga rimwe na rimwe hari ibyo adakora neza ariko ni ngombwa koza neza kandi gusukura amenyo kubera ko ari kimwe mu bice by'umuntu umuntu aba asabwa kwitaho kandi ikindi bikaba birushya kongera kugisimbuza iyo cyangiritse, niyo mpamvu usanga kwa muganga basaba umuntu wese kwitonda igihe ageze kuri iki gice agikoraho ibyo yishakiye.

Igice cy'amenyo ni kimwe mu bice bigomba kwitabwaho ku mubiri w'umuntu, kubera ko usanga ari ngombwa, kubera ko akenshi kiba kigoye kugisimbuza mu gihe cyagize ibibazo, kandi ikindi kikaba ari igice kitaba kirinzwe ku rwego rwiza. Ni yo mpamvu ugomba kukigira isuku ndetse ukakibungabunga ku buryo ushoboye.

Intebe nziza ndetse n'igitanda, usanga ari ibintu bigomba kuba biri kwa muganga kugira ngo umuntu abashe kuvurwa neza kandi na muganga abashe gukurikirana umurwayi afite ahorizwa kuba yicaye. Niyo mpamvu ari bimwe mu bikoresho bigomba kuba biririmo kugira ngo akazi kagende neza.

Kwita ku buzima bw'umuntu mukuru biba bigomba kubaho, kubera ko usanga nk'abaganga cyangwa se abandi bantu bose haba harimo ababihuguriwe ndetse babikora nk'akazi. Ndetse kandi usanga ibi ari byiza kuko bifasha umuntu gusaza ndetse no kwiyumva neza, igihe ari muri ibi bihe by'ubusaza ndetse n'ubukecuru.

Abantu bakuru, aho bateraniye akenshi usanga harangwa n'inkuru nyinshi kandi n'ibyishimo byinshi, kubera ko ibi byose bizana imibanire myiza, ndetse bigakura umwuka mwiza mo hagati mu bantu, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza.

Gufasha abantu bakuru yaba abasaza ndetse n'abakecuru igihe bagize ikibazo yaba icy'umugongo cyangwa se icy'imitsi, aba ari ngombwa ku baganga. Bakabafasha kugenda, gutambuka mpaka babashije gukira. Ni yo mpamvu usanga ikibazo cyose wagira, ari ngombwa kukijyana ndetse kukigeza ku baganga.

Ubuzima bw'abantu bakuru kubera ko aba ari ubuzima buri mu bibazo byinshi cyane, aba ari ngombwa ko barya ibiryo byiza kandi bitetse neza, bikungahaye ku ntungamubiri kugira ngo babashe gufashwa n'ibyo barya muri rusange kandi ikindi ugasanga bakwiye kuba babaho bishimye kuko na byo byongera iminsi yo kubaho ari ko tubwirwa n'ababishinzwe bo mu buzima.

Abantu bakuru kuko baba batandukanye n'abatoya, usanga akenshi nk'iyo bagiye mu birori, yaba ibihuriza hamwe abantu benshi bakomeye cyangwa se n'abandi bose nk'ibyo gutaha ubukwe bw'abana babo, usanga bambara imyenda ibatandukanya n'abandi ndetse ugasanga babahaye imyanya y'imbere kugira ngo babashe guhabwa agaciro.

Kugira ngo ubuzima bw'abantu bakuru bwitabweho, aba ari ngombwa ko bagomba kugira umuganga ubasobanurira kandi ubizobereyemo, amahame yo kwa muganga cyangwa se izindi ndwara zose bashobora guhura nazo, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, niyo mpamvu aba ari byiza gufata umuntu mukuru ukamusobanurira mbere y'uko umwitaho cyangwa se umuvura.

Iyo umuganga cyangwa se undi wese arimo kuvura umuntu mukuru, aba ari ngombwa ko amubwira neza ndetse akamubaza ibibazo bigendanye n'indwara ye, baganira neza mu rwego rwo gutanga serivise inoze kandi nziza kubera ko usanga abantu bakuru, bakunda umuntu ubaganiriza neza kugira ngo babashe kwishima kandi bakire wenda, rimwe na rimwe bitewe n'indwara barwaye.

Ubuzima bw'abantu bakuru ni ngombwa ko bwitabwaho mu rwego rwo kubafasha kubaho neza ndetse no gusaza neza, kubera ko aba ari ngombwa kubahereza umuntu ushinzwe kubakurikirana imibereho yabo, n'umuganga wokubafasha kugira ngo niba barwaye bakire cyangwa abakurikirane mu bundi buryo.

Ubuzima bw'abantu bakuru, akenshi usanga bagirwa inama kwegera abaganga cyangwa se abandi bantu bose babafasha kubasuzumira ubuzima bwabo, ndetse bakabafasha ko bwagenda neza, ni yo mpamvu usanga tugirwa inama yo gufata neza abantu bakuru muri rusange, mu buryo ubwo ari bwo bwose uko bushoboka.

Abantu bakuru rimwe na rimwe usanga baba bagomba kuba bitaweho, yaba n'abantu bakuru cyangwa se abandi bantu abo aribo bose, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse basaze neza, niyo mpamvu usanga bakunda abana bato ndetse n'abantu bakuru, bagomba kubaba hafi mu rwego rwo kubasajisha neza.

Ubuzima bw'abantu bakuru usanga akenshi buba bubereyeho kugira ngo bushimishanye, kandi bafatanye kubera ko usanga rimwe na rimwe baba badafite imbaraga, niyo mpamvu usanga bakwiye gukoreshwa imirimo mikeya kandi itavunanye ndetse bakaba bagomba gufashwa, kandi bakitabwaho mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza mu masaziro yabo.

Abantu bakuru muri rusange ubuzima bwabo ni bumwe mu buzima bugomba kwitabwaho kugira ngo babeho neza ndetse bagire ubuzima bwiza kubera ko baba batagifite imbaraga zo kwiyitaho neza bihagije, niyo mpamvu tuba dusabwa nk'abantu bato cyangwa se urubyiruko gufasha abantu batakishoboye.

Abantu bakuru aho bava bakagera usanga ari ngombwa kubitaho mu rwego rwo kubabungabugira ubuzima bakagirwa inama z'uburyo bakwiye kwitwara ndetse no gufata umubiri wabo bikozwe na ba muganga cyangwa se abandi bose baba basobanuye ubuzima bw'abantu bakuru uko babufiteho amakuru kubera ko baba barabyize cyangwa se barabihuguriwe.

Abaganga usanga muri rusange bagira inama abantu bakuru kugerageza kugira utuntu bahugiramo nko kwandika cyangwa se ikindi muri rusange, kuko usanga bifasha ubu buzima bwabo kugira ngo bugire bukora kugira ngo nanone babashe kuba amaraso yabo atembera neza.

Abantu bakuru usanga akenshi iyo bagendana n'abato mu mihanda, abakuru bagomba kuba bafite udukoni cyangwa se ikindi kintu cyose bifashisha kibongerera akabaraga mu rwego rwo kubasha kugenda kuko baba bafite ibibazo bitandukanye, yaba iby'indwara cyangwa se iby'imbaraga nkeya.

Ubuzima bw'abantu bakuru ni byiza ko bagomba kubaho bafashanya kandi bishimye, kubera ko biteza imbere yaba sosiyete nyarwanda cyangwa se isi muri rusange, niyo mpamvu usanga tugirwa inama yo kubafata neza, kandi na none abaganga nk'abantu bareberera ubuzima mbere na mbere bakabitaho mu buryo bwihariye.

Mu buzima bwa buri munsi bwa muntu usanga kwita ku bantu bakuru aba ari ingenzi kandi ari ngombwa kuko usanga bagifite ubushobozi buke ndetse n'imbaraga nkeya bityo kandi bakaba bakeneye imibereho itunganye kandi myiza, niyo mpamvu usanga bakeneye ubufasha buturuka ku bana babo cyangwa se abandi bantu nk'abaganga kugira ngo babashe kubabeshaho neza ndetse bagire ubuzima bwiza n'ubwo baba bashaje.

Mu buzima bw'abantu bakuru usanga akenshi iyo bahuriye hamwe barangwa n'ibyishimo cyangwa se nko guseka ndetse no gukina ibintu bimwe na bimwe bibahuza kugira ngo babashe kwibagirwa ibibazo baba bafite mu buzima niyo mpamvu usanga ari byiza guhuriza abantu hamwe yaba kubohoreza kwa muganga cyangwa se ahandi hantu aho ariho hose kugira ngo batarame nabo bamere neza.

Abantu bakuru rimwe na rimwe usanga hari imiti bahabwa cyane cyane biba bigendeye n'indwara zabo baba barwaye cyane cyane usanga ari nk'izo mu zabukuru kugira ngo babashe kugira uko bongererwa ndetse bafashwe mu buzima bwabo, kugira ngo bagire nanone ubuzima bwiza n'ubwo baba bashaje.

Kurya neza ni kimwe mu bikorwa umuntu mukuru yaba umugore n'umugabo cyangwa se umusaza n'umukecuru baba bagirwa inama ko bakora ndetse bakarangwa n'ibyishimo kubera ko usanga ubuzima baba bagezemo ari ubuzima budakwiye kuba burangwa n'umubabaro cyangwa se imirimo igoranye, akenshi bagirwa inama yo kubaho bishimye kandi bakarya neza ibikorwa kugira ngo bigende neza ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange.

Abantu bakuru muri rusange usanga ari ngombwa ko bageragerezwa kubonerwa ubuzima bwiza kandi bushimishije. Kuko igihe baba bagezemo biba ari byiza kubabungabungira ubuzima kuko buba bugeze ahantu hagoranye. Ni byiza kandi kubafasha kuba aho bishimye kubera ko bibafasha kuruhuka ndetse no kongera ubuzima nk'uko bivugwa n'intiti zifite inararibonye mu buzima.

Abantu bakuru akenshi usanga barangwa no gukorera hamwe ndetse no kurebera hamwe ibintu bitangaje yaba ku materefone yabo ndetse n'ahandi mu rwego rwo gusangira amakuru, kubera ko ni kimwe mu bintu bibahuza, ni yo mpamvu usanga aba ari ngombwa kubitega kandi igihe bari kumwe ugasanga bafite inkuru nyinshi, rimwe na rimwe zigaragara ku makuru ari kuba ari muri terefoni zabo.

Ubuzima bw'abantu bakuru buba bukwiye kwitabwaho kuko akenshi usanga rimwe na rimwe baba badafite amakuru cyangwa se ibindi byose bibashoboza kuba bitabwaho, niyo mpamvu umuntu ubegereye yaba ari mukuru cyangwa se umuganga wabyigiye, aba asabwa kubaha serivisi zose zishobora kubagirira ubuzima burebure cyangwa se bwiza kurushaho.

Ubuzima bw'abantu bakuru ni ngombwa kubwitaho kubera ko imyaka yabo ndetse n'igihe baba bagezemo usanga akenshi bakunda guhura n'ibibazo byo kurwaragurika cyangwa se bagahura n'ibindi bibazo by'intege nkeya, niyo mpamvu rero aba ari ngombwa kubashakira umuganga ndetse n'undi muntu wabizobereyemo kugira ngo akurikirane, akabahereza imiti yabo ibinini cyangwa se akabagira inama yo kunywa amazi igihe bikenewe.

Hari indwara cyangwa ibyorezo biza, ugasanga bakajije ingamba, ubwo ni ukuvuga ibigo bifite aho bihuriye n'ubuzima cyangwa se abaganga, niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe bambaye uko batari basanzwe bambara, aba ari mu buryo bwo gukaza ingamba.

Mu buzima bwa buri munsi bwa muntu usanga iyo ingamba zafawe ikintu runaka haba habayeho imikoranire hagati wenda yo kwa muganga na leta cyangwa se ibindi bintu ibyo aribyo byose kugira ngo bahurize hamwe amakuru birinde ikibazo icyo ari cyo cyose ndetse barwanire hamwe kugira ngo bagitsinde.

Mu ngamba nyinshi zishyirwaho mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwa muntu, usanga ari ngombwa ko umuntu ufite ikibazo agomba kugurirwa ibikoresho kugira ngo abashe kuvurwa neza, yaba umuto cyangwa se umukuru aba ari ngombwa kwitabwaho ndetse kugira ngo agaruke mu buzima bwe bwiza yahozemo.

Ikigo gishinzwe ubuzima ahantu aho ariho hose yaba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu akenshi kigomba kugira ibintu twakwita nk'ibimenyetso bigihagarariye ndetse cyangwa se amagambo asobanura ibyo gikora, niyo mpamvu usanga nko mu Rwanda hari ikigo kiba gishinzwe ubuzima ariko gifite nk'ikirango cyacyo.

Ihuriro ry'abantu baba bashinzwe kwiga ku mibereho y'umuntu cyangwa se ubuzima muri rusange, usanga akenshi bafatira hamwe ingamba igenga ubuzima baba bariho bareberera, niyo mpamvu akenshi bafata n'ifoto igenda ibibutsa ibyavugiwe cyangwa se ibyabereyeho iyo tariki.

Umugore n'umugabo muri rusange aba ari ngombwa ko bafatanyiriza hamwe mu kurwanya indwara zimwe na zimwe zabaye akaraha kajyahe, mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza mu rugo rwabo, ndetse no kugira iterambere muri rusange.

Ingamba zose z'ubuzima akenshi zikunda guturuka mu bigo bishinzwe ubuzima ndetse na leta muri rusange kugira ngo biyobore abanyagihugu uko bakwiye kwitwara muri icyo kibazo niyo mpamvu kandi na nonene leta ibikoranyije ibyo bigo bishinzwe ubuzima biba bifite uko bigomba kunyuramo ndetse bikaba bifite n'ibirango biranga izo serivisi bikora.

Itangazo leta cyangwa se ibigo byose bifasha leta mu gushyira mu ngamba ibigendanye n'indwara zigenda ziza rimwe na rimwe usanga riba ryanditswe kandi rigasinywaho na leta kugira ngo abantu bose babashe kuryubaha kandi hirindwe iyo ndwara.

Kuvura ndetse no gufata ingamba rimwe na rimwe, usanga akenshi izigendanye n'ubuzima zifashwamo n'abaganga cyangwa se serivisi zose zituruka muri Leta kugira ngo abantu babashe kuzikurikiza, aba ari ngombwa uruhare rwabo nabo kuko biba bibareba kandi Leta iba iharanira uburenganzira bwabo.

ingamba zifatirwa mu buzima usanga ari ngombwa kugira ngo kwa muganga ndetse n'abandi bahagana kubahiriza amategeko ahagenga nko kwambara impuzankano harimo n'ibikoresho rimwe na bi rimwe umuganga agomba gukoresha mu gihe ari kuvura umurwayi ndetse akaba afite n'ibindi bikoresho byabugenewe

Mu rwego rwo gukaza ingamba ndetse no kwirinda indwara zimwe na zimwe, usanga handikwa inzandiko zabugenewe zivuga ndetse zigaragaza amabwiriza ahanitse yo kwirinda icyo cyorezo ndetse ugasanga hari n'ibihano byateganyirijwe uzica ndetse agakerensa ayo mabwiriza.

Rimwe na rimwe usanga iyo havutse nk'ikibazo cyo kurwanya indwara yaba ikomeye cyangwa se n'indi iyo ari yo yose iba yarazahaje agace runaka haba hari umuntu ubishinzwe uhagarariye nk'ikigo runaka ugomba kubabwira ububi bw'indwara kugira ngo amenyeshe abantu amakuru batari basanzwe bayafite.

Ingamba z'ubuzima akenshi zigomba kuba zigendeye ku kurwanya indwara nk'ibyorezo cyane cyane ku isi hose yaba muri Afurika ndetse no mu Rwanda, niyo mpamvu usanga ubishinzwe nk'umuyobozi w'ikigo runaka cyangwa se wa leta, abanza kuburira abantu ndetse no kubabwira amabwiriza agenga cyangwa se asobanura uburyo bayirinda.

Mu rwego rwo kwirinda indwara zimwe na zimwe, usanga umuganga iyo ari gupima umurwayi cyangwa amufata ibizamini ko aba yirinze nawe yambaye agapfukamunwa ndetse n'ibindi byose kugira ngo indwara itamugeraho, ndetse n'urwaye akagomba kuba yirinze, yambaye bimwe na bimwe mu byo asabwa kugira ngo indwara yirindwe.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuganga ndetse n'ubuvuzi, abaganga benshi ku isi usanga baba bafite ibikoresho byabugenewe, yaba ibyo bambaye ndetse n'ibyo bakoresha bavura, niyo mpamvu usanga umuntu noneho ubitabiriye kugira ngo bamufashe, ibyo bamubwiye agomba kubikurikiza mu rwego rwo kuborohereza akazi.

Ingamba zo kwirinda ntabwo ziba zikwiye kuba mu magambo gusa, ahubwo n'ibikorwa bigomba kuzamo kugira ngo indwara iranduke ndetse icike burundu, ni yo mpamvu Leta n'ikigo kiba gishinzwe ubuzima byandika itangazo ririnda abaturage babyo iyo ndwara cyangwa se icyo cyorezo.

Mu rwego rwo gufata ingamba yo kurwanya indwara zimwe na zimwe, akenshi usanga leta ikorana n'ibigo by'ubuvuzi, kugira ngo bamagane indwara zimwe na zimwe bahugura abantu bifashisha ibyapa ndetse n'ibindi, n'abantu benshi bahawe impuzankano, kugira ngo bakoranire hamwe kugira ngo iyi ndwara ihashywe.

Akenshi usanga ingamba ndetse n'ibindi byose bishyirwaho nk'amateka kugira ngo birwanye indwara zimwe na zimwe, aba ari ngombwa kobabyanditse kugira ngo bifashe abantu bose kubisobanukirwa, yaba ababyumva ndetse n'ababisoma kugira ngo bagire ubwumvane muri rusange kandi babashe kubirwanyiriza hamwe.

Iyo nk'icyorezo cyangwa indwara runaka yateye isi cyangwa igihugu runaka muri rusange, usanga leta ifatanyije n'ibigo by'ubuvuzi isaba ko abaturage baguma mu rugo cyangwa se bafatanya mu kwirinda ndetse no kurwanya iyo ndwara. Niyo mpamvu usanga handikwa amabaruwa akandikirwa abaturage ariho amabwiriza agomba kubereka uko bagomba kwitwara mu buryo bwo kwirinda icyo cyorezo cyangwa iyo ndwara.

Ingamba nyinshi zishyirwaho na leta zo kwirinda indwara nyinshi cyangwa ibyorezo bitandukanye, aba ari ngombwa ko bafashwa n'abaturage ndetse n'abaganga kubera ko usanga nk'abantu ari bo bagenerwabikorwa, ariko na none rimwe na rimwe ugasanga ni na bo bica amategeko n'amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukumira iyo ndwara cyangwa icyo cyorezo.

Inama nyinshi ziga ku mibereho y'abantu ndetse ubuzima muri rusange, usanga iyo bateraniye ahantu hamwe aba ari ngombwa kugira abantu bashinzwe cyangwa bahagarariye izo nama kugira ngo basobanure ndetse ibyerekeranye n'iyo ndwara bashaka kurwanya ndetse no gufatira ingamba.

Ibigo bishinzwe akenshi kubaka ndetse no kuzamura amazu, usanga akenshi rimwe na rimwe, bakunda kwibanda ku bwiza, cyane cyane inyuma ,aho iyo bageze ku nzu zizakorerwamo ubuzima, bagomba gushyiraho n'aho bigomba kuba bigaragara ko aho hantu ari mu gisate cy'ubuzima ndetse bakahashyira n'ikirango kigaragaza serivise zihatangirwa.

Kwa muganga ikintu gikunda kuba cyiharanga ni isuku ndetse n'ibindi byose nk'ibikoresho biba biteye imbere bakoresha bavura abarwayi ndetse bafata neza abantu babo baba babagannye, niyo mpamvu uba usabwa kwigengesera igihe uhakandagiye kuko ikintu cyose cyaho kiba gifite agaciro gakomeye.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuzima, aba ari ngombwa ko ziba zubatse ahantu, cyane cyane rimwe na rimwe nko ku ishyamba rigomba kuba ritanga umuyaga, kandi hagomba kuba harimo n'ibendera ribasha gusobanura ko icyo ari ikigo cya Leta, kandi cyemewe n'amategeko.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu usanga serivisi yo kwita ku bantu bakuru iba iboneye, yaba umuntu ufite ikibazo cy'amaguru cyangwa se ibindi bintu ibyo ari byo byose, uwo muntu yitabwaho iyo yageze imbere y'abaganga ndetse akavurwa kandi agakira neza.

Inzu nyinshi zitangirwamo serivisi z'ubuzima, usanga akenshi zigomba kuba zifite ubusitani bugize n'indabo cyangwa se ibindi byatsi byose byimejeje kugira ngo abantu bose bahari, babashe kuhagirira ubuzima bwiza kuko akenshi baba baje kuhashakira nyine ubuzima.

Inzu z'ubuvuzi akenshi usanga zikunda kuba zanditseho ibi cyangwa se zimanitseho ibyapa zibiranga kubera ko akenshi aba ari ahantu hakwiye kumenywa kandi hakagendwa n'abantu benshi muri rusange yaba ab'amoko atandukanye kugirango ngo babashe kuhafashirizwa.

Inzu zose zitangirwamo serivisi z'ubuzima icyiza mbere na mbere kigaragara iyo ukigeramo usanga ari gahunda nziza yaba isuku cyangwa se ahandi ibikoresho byabo biba biteretse ndetse n'uburyo babikoreshamo usanga akenshi biba birangwa n'isuku cyangwa se umutekano uhagiye buri gihe uko uhagiye.

Inzu zose zo kwa muganga usanga hari igice kiba gishinzwe kwakirwamo abantu igihe batarahura na muganga ngo abahe imiti cyangwa bavure. Haba hagomba kuba hari intebe ndetse n'umuntu ushinzwe kubakira akabereka icyo gice aho giherereye.

Kwa muganga ndetse n'ahandi haba abantu bafite ibikoresho by'ibinyabiziga nk'imodoka, usanga hagomba kuba hari aho bigomba kuba biri, ndetse hakaba hari icya icyo aricyo cyose kizitangira ndetse kugira ngo hinjire izemerewe zaherewe uburenganzira.

Inzu zikorerwamo ubuvuzi ndetse n'ubuganga, aba ari ngombwa kuzishyiraho amatara cyangwag se ibindi byose nk'isuku, ndetse ukazishyira ahantu hagaragarira buri muntu kugira ngo zizatabarire hafi mu gihe umuntu yaba azigannye, kandi akabasha gusobanukirwa neza aho hantu aba ageze kubera ko ari hamwe mu hantu hakenerwa n'abantu kandi inshuro nyinshi.

Ibiro by'akarere usanga akenshi biba birangwa n'uko byanditseho cyangwa se bifite n'isuku muri rusange, kuko akenshi biba byarashyizweho ndetse bifite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi niyo mpamvu akenshi usanga biba bikomeye kandi bitanga serivisi zihuta kandi nziza ziboneye.

Ni byiza kugira isuku ndetse kugira amatara meza aba ari ku nkuta akenshi ugasanga ibintu byose yaba intebe ndetse n'ibitanda biri mu mwanya wabyo nko kwa muganga kuko usanga bifasha umuntu kugabanya stress cyangwa se ibindi byose byamwangiza mu mutwe igihe yagiye ku hasaba serivisi

Inyubako zikorerwamo ubuvuzi ni hamwe mu hantu hakunda guhurirwa n'abantu benshi batandukanye yaba igitsina gabo ndetse n'abagore kuko usanga haba harimo abakozi babo cyangwa se n'abandi baje kuhivuriza, niyo mpamvu rimwe na rimwe nk'abakozi babo baba bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa kuko baba bagiye kwitegura gukora akazi.

Ibigo bishinzwe kuvura cyangwa se gukora kuri gahunda ishinzwe ubuzima, usanga bikunda gukorera mu manyubako maremare, y'amagorofa ndetse n'ibindi. Aba ari ngombwa ariko, kubera ko usanga ari ahantu hasurwa n'abantu benshi mu gihe gito, kandi buri kanya. Ndetse aha hantu hagomba kuba hari ubusitani bufasha abantu bahari, kuruhuka mu mutwe ndetse no gutuza.

Mu buvuzi buteye imbere, aba ari ngombwa kugira ibikoresho byateye imbere yaba ibifasha mu buvuzi cyangwa gusuzuma indwara zimwe na zimwe, umuntu aba atabonesha amaso agakoresha ibindi bikoresho byabugenewe bibasha gutubura ingano y'ikintu, kugira ngo abashe kuba akibona neza muganga.

Ikusanyirizo cyangwa ahabikwa imiti usanga ari hamwe mu hantu hagomba kwitabwaho ndetse hakagirirwa isuku n'umutekano bihagije, kugira ngo habungabungwe kandi hitabweho kuko aba ari hamwe mu hagize ubuzima bwa muntu kandi hagize uburyo bahatabara abantu benshi mu buryo kandi bwihutirwa.

Kwa muganga ni hamwe hamwe mu hantu hagomba kuba harangwa n'isuku ndetse haba hagaragara neza bitewe na gahunda haba hafite yaba ibyo ukuntu haba hapanze cyangwa se ibitanda abarwayi baryamaho, ukuntu biba bishashe ndetse na gahunda y'ukuntu biba biteye. Niyo mpamvu usanga umuntu wese uhageze bimutungura cyangwa se agasabwa kwigengesera.

Kwa muganga usanga ari hamwe mu hantu hateye imbere, ndetse haba hari n'ibikoresho byaba biteye imbere cyane, nk'ibitanda abarwayi bararaho, ndetse n'ibindi ibyo aribyo byose bibafasha mu kuvura, usanga kandi haba hari ngombwa ko ugenda wigengesereye kugira ngo utagira ibyo wangiza.

Ibigo bishinzwe ubuzima usanga akenshi biba bifite aho biryamisha abantu baje kuvurwa kandi hari isuku ndetse hameze neza ahubwo bakanahabwa n'ibikoresho nk'udupfukamunwa igihe bari kwirinda indwara zandura cyangwa se izindi zose zishobora guteza akaga ababegereye.

Ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'izindi nzu zose zitanga serivisi z'ubuvuzi, usanga byiganjemo iby'ikoranabuhanga nkuko twavugamo ibyo basuzumiramo abantu indwara z'imbere mu mubiri, akenshi ziba ari mashini kandi akaba ari ibikoresho bihenze ndetse ari byinshi. Niyo mpamvu usanga babungabunga ibyo bikoresho uko bikwiriye.

Inzu zose zitangirwamo serivisi z'ubuzima cyangwa wenda twavuga nko kwa muganga, usanga akenshi ziba zihariye ku isuku n'isukura ndetse zikagira ibiti byiza n'ubusitani muri rusange bufasha abahagana gutuza bakumva umuyaga cyangwa se n'amahumbezi muri rusange.

Inzu nyinshi zikoreramo serivisi zo gutanga ubuvuzi, aba ari ngombwa kuzishyiraho ibyapa biziranga cyangwa se kuzubaka ahantu heza kandi hagaragara, hafite isuku n'ubudahangarwa, mu rwego rwo gukurura abazigana, ndetse no kugira ngo zibe zibungabunze, zifite n'umutekano.

Inzu nyinshi zikorerwamo ubuvuzi cyangwa se imyigire akenshi usanga ziba zifite ahantu byanditse nk'ibyapa biyobora abantuha batahazi kugira ngo bibashe kuba bimenyekana kandi ugasanga haba hari n'ubusitani ni ukuvuga ibiti cyangwa se ibindi byatsi byose bishobora gutuma umuntu ahumeka neza.

Imodoka ndetse n'amagorofa maremare ni kimwe mu bintu usanga ahantu kwa muganga kuko usanga ari ahantu hahurirwa n'abantu benshi kandi abenshi baba bagenda mu binyabiziga niyo mpamvu nanone ugomba kuhasanga umuntu ushinzwe kuzihirika umwanya zigomba kuba zirimo mu gihe ba nyirazo bari mu kazi.

Kwa muganga ndetse n'ibindi bigo byose bitanga ubuvuzi nka serivise, usanga bigomba kuba birangwa n'isuku ndetse na gahunda ipanze neza. Niyo mpamvu usanga ibitanda byabo ndetse na za matera ahubwo n'intebe byose muri rusange biba biri ku murongo ndetse bisashe neza kugira ngo bikurure abahagana.

Kwa muganga harangwa n'ibikoresho bitandukanye, yaba iby'ikoranabuhanga cyangwa se ibyo abaganga bakoresha. Twavuga nk'intebe, ibitanda abarwayi baryamaho, ndetse n'ibindi kandi bikaba bigomba kuba biri muri gahunda, niyo mpamvu buri gihe usanga ari ahantu hakurura abantu igihe rimwe na rimwe, wenda bakifuza nko kuhakora cyangwa se n'ibindi.

Ibikoresho byo kwa muganga byose aba ari ngombwa kubigirira isuku, ndetse kubyitaho, kubera ko iyo bibashije kwangirika usanga igihugu, ndetse n'abantu muri rusange bahombye amafaranga menshi cyane atagira ingano, kuko aba ari ibikoresho bihenze, kandi bigora gutumizwaho kugira ngo biboneke.

Ahantu muri rusange hacururizwa imiti usanga hakwiye kuba harangwa n'isuku cyangwa se hakaba hafite umutekano kubera ko aha ari hamwe mu hantu hafitiye ubuzima bw'abantu benshi akamaro, kuko usanga abantu bose bajya kuhabariza iyo miti cyangwa se n'izindi serivisi zifite aho zihuriye n'ubuzima bw'abantu.

Inzu nyinshi zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, akenshi zikunda kuba, zifite ubusitani ndetse n'aho abantu bashyira amamodoka yabo ndetse n'ibindi binyabiziga, ariko na zo ugasanga ni inzu nziza kandi ndende. Ariko ni byiza kubera ko bifasha ndetse, bikaba bikurura abantu bose bahagenda, bakumva ko nta serivise bahaburira bitewe n'ukuntu haba hagaragara inyuma.

Ibikoresho byose byo kwa muganga usanga biba byiganjemo iby'ikoranabuhanga aho umurwayi asuzumirwa cyangwa se intebe ndetse n'ibitanda bicaraho cyangwa baryamaho byose bigomba kuba ari ibikoresho byitaweho ndetse bikaba bifite n'agaciro gakomeye kugira ngo ubuganga butere imbere ndetse umuntu avurwe neza.

Ibigo nderabuzima muri rusange aba ari ahantu heza kandi ndetse hagomba kuba hafite isuku, kubera ko usanga rimwe na rimwe ari ahantu hahurirwa n'abantu benshi ndetse abenshi baje gusaba serivisi y'ubuvuzi, kandi nta wavurira abantu ahantu hafite umwanda.

Gupima abana indwara cyangwa se ibiro, ni bimwe mu bintu bikorerwa kwa muganga ndetse bigakorwa na buri muntu wese ariko akenshi aba ari byiza kubera ko bisobanura imikurire y'umwana cyangwa se n'ubuzima bwe uko buba buri kugenda mu minsi aba akiri agahinja cyangwa se agifite uburyo agomba kwitabwaho n'umubyeyi, akamenya uko abigenza kuko akenshi ubuzima bw'abana buba bugomba kuba buhangayikishije.

Kwa muganga cyangwa se inzu zose zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ubuzima, akenshi usanga zigira isuku nyinshi ihambaye, ni yo mpamvu umuntu wese uhageze agirwa inama yo gukora ibyo yeretswe, ndetse kubera ko haba hari abantu benshi bashinzwe kuyobora uwo muntu, yaba uhageze bwa mbere cyangwa se udafite amakuru ahagije.

Ibitaro byose muri rusange usanga akazi kabyo akenshi ari ukuvura abantu muri rusange barwaye ariko rimwe na rimwe usanga hari ibiruta ibindi ndetse bikora akazi karuta ak'ibindi, niyo mpamvu usanga biba bifite abakozi benshi cyangwa se bikaba bifite n'abarwayi benshi byakira bitewe n'uko bingana ndetse na serivise bitanga.

Umuntu akigera kwa muganga, ikintu cya mbere akora ni umutekano kandi se ibintu byose bipanze kuri gahunda, aho umuntu ajugunya imyanda cyangwa se aho umurwayi aryama ku bitanda bye byiza kandi bishashe neza ndetse n'ibikoresho bya muganga agomba gukoresha, byose biba biri kuri gahunda.

Isuku ni kimwe mu bintu bitagomba kugirwaho impaka iyo tugeze ku bigo bikora serivisi z'ubuvuzi kuko usanga n'ibirenze ku isuku ahubwo aba ari gahunda iharangwa, amatara meza agomba kuba ari hejuru ku nkuta kugira ngo umuntu wese uhagana ataza kuba agira ikibazo icyo ari cyo cyose harimo n'icy'umwijima.

Ahantu hari ubuvuzi bwateye imbere, usanga harangwa no kuba hari ibikoresho n'amamashini afasha mu buganga, ko aba ari meza ndetse ari aya ahenze ,yaba ayafasha mu gusuzuma indwara ndetse n'ibindi, kandi hakarangwa n'isuku, ibikoresho byiza byabugenewe, ndetse ugasanga ari byiza cyane kuko byose bifasha mu kazi ka buri munsi k'abaganga.

Inzu nyinshi zitangirwamo ubuzima, usanga ari ngombwa ko zigomba kuba zifite abaganga ndetse n'abandi bantu zahuguye kugira ngo babashe kuba bavura neza kandi batanga amabwiriza ku bantu bahuye na bo baba barwaye cyangwa se abandi babagana, bashaka serivisi zigendanye n'ubuzima.

Inzu zo kwa muganga akenshi usangamo ibikoresho mpuzamahanga bishinzwe gufasha abaganga kuvura indwara ziba zarananiranye cyangwa se ukahasanga ibitanda biba byarabugenewe mu rwego rwo kwimakaza ndetse no guteza imbere ubuvuzi kugira ngo umuntu ajye avurwa neza.

Inzu zose zikorerwamo serivisi zo gutanga ubuvuzi cyangwa se ibindi bigo byose bifite aho bihuriye n'ubuvuzi, usanga ari hamwe mu hantu harangwa n'isuku, umutekano ndetse n'abantu babigize umwuga kugira ngo babashe kwita ku babagana yaba aba barwaye cyangwa se n'abandi.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuzima, usanga akenshi ziba zifite ibyapa biziranga ndetse akenshi kandi zikaba zifite n'ahantu abantu bashyira amamodoka yabo nk'abakozi cyangwa se ababagana, ikindi kandi uhasanga ndetse n'ibyapa byerekana ibihakorerwa.

Kimwe mu bintu biranga kwa muganga usanga ari gahunda nziza ibirimo aho ibikoresho byabo bibikwa ndetse n'uko bikoreshwa kandi ugasanga yaba ibitanda n'intebe byose biba bifite gahunda nziza. niyo mpamvu umuntu wese ugiye kwa muganga mbere na mbere ayoborwa kandi agafashwa mu byo atumvise kugira ngo atica amabwiriza y'ibihakorerwa ndetse n'ibihagenga.

Muri siporo ntago hakenerwa gusa imyenda myiza ndetse n'inkweto nziza kugira ngo umuntu abe yujuje ibikoresho byayo, niyo mpamvu usanga hari ibikoresho nka zamudasobwa cyangwa se ibindi byuma byo guterura ndetse n'imiti imwe n'imwe yabugenewe umuntu akora siporo.

Iyo umuntu yagize ikibazo, hari imiti myinshi ahabwa cyane cyane iyo yakigiriye muri siporo, niyo mpamvu rimwe na rimwe bashobora kumuha imbago cyangwa se akagare iyo agize ikibazo gishobora kubasha gutuma atagenda, niyo mpamvu buri gihe umuntu wese ugize ikibazo muri siporo akwiye kugana kwa muganga bakamufasha.

Iyo umuntu yakomerekeye muri siporo cyangwa se yahuriyemo n'impanuka, akenshi imiti myinshi igomba kumuhabwa, haba harimo ishinzwe gutuma amaraso akonja kugira ngo abashe guterwa izindi nshinge cyangwa indi miti, bigendeye kuko yabashije gutuza mu rwego rwo kumuvura neza.

Iyo umuntu yavunitse ari muri siporo cyangwa mu bindi bikorwa byose ngororamubiri aba ari ngombwa gushyirwaho ibintu byose bikonje cyangwa akanywa amazi kugirango abashe gukira vuba ndetse akihutira kujya kwa muganga kugira ngo afashwe, yaba ako kanya cyangwa se igihe cyose bitaraba bibi ngo bigire ahantu habi abe yanagira ibindi bibazo biturutse kuri siporo.

Umuntu ukora siporo hariibintu byinshi aba yarahawe nk'imiti iyo amaze nko guterura ibyuma cyangwa se ibindi byose biremereye, aba akwiye kunywa nk'ikintu icyo ari cyo cyose kikoze mu binyamasukari cyangwa se akarya indimu ndetse n'ibindi byose harimo n'imboga kugira ngo yongere asubirane imbaraga.

Ibikoresho bya siporo akenshi usanga ari nk'ibipima umuvuduko w'amaraso cyangwa se uko umutima utera, ndetse inkweto abantu bambara cyangwa umupira, abakina umupira, usanga byose biba bikusanyirijwe mu kiringo cya siporo. Mu rwego rwo kubahiriza ndetse no kugenga ubuzima bw'abakinnyi, cyangwa se abandi bose muri rusange bakora imyitozo ngororamubiri myiza.

Mu buzima bwa buri munsi bwa muntu, usanga mu rwego rwo kugorora umubiri, hari ibikoresho biba byarabugenewe umuntu agomba gukoresha igihe ari muri siporo. Ni ukuvuga imyenda itamubangamira, itamubuza kunyeganyega neza, cyangwa se inkweto izo arizo zose zimufasha kuba zitamuremerereye kandi zabugenewe mu bikorwa bya siporo.

Abantu bakora siporo, bafata amazi nk'aho ari kimwe mu bintu baba basabwa kugira ngo, bagire ubuzima bwiza. Nibyo kandi, kuko rimwe na rimwe usanga amazi twayita nk'imiti y'abantu bakora siporo, cyangwa se abandi bakora imirimo ivunanye. Umubiri.

Iyo umuntu akoze siporo akagira ibibazo runaka yaba kwikanga kw'imitsi cyangwa kuvunika mu buryo runaka, akenshi aba ari ngombwa ko ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho, rimwe na rimwe usanga ahabwa imbago kugira ngo izajye imufasha kugenda cyangwa se imworohereze gukira vuba.

Amamashini n'ibikoresho byose biva kwa muganga akenshi biba bifite utuzi dutandukanye nk'aho usanga hari ibiba bikoreshwa muri siporo cyangwa se mu bindi bikorwa byose bifite aho bihuriye no kugorora umubiri, niyo mpamvu umuntu wese ukora siporo aba asabwa kwegera ababishinzwe kugira ngo bamufashe.

Amazi meza muri rusange yaba ay'isoko cyangwa se ayandi aba yanyujijwe mu nganda agatunganywa, aba ari ngombwa ku bantu bose bakora siporo kuyanywa, kuko aya mazi afasha ubuzima bwabo muri rusange ku buryo bugenda neza, mu rwego rwo kuruhuka rimwe na rimwe cyangwa se kongera imbaraga mu buzima bwabo.

Ubuzima bwa siporo, kugira ngo umuntu abubungabunge, twavuga nko gufata imiti yabwo, ni ukurya neza ndetse no kunywa neza. Kurya neza haba harimo gufata ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, cyangwa se imbuto muri rusange kuko zifasha kongera isukari mu mubiri ndetse ukanywa n'amazi agufasha gusukura umubiri wawe kuko uba wakoresheje imbaraga nyinshi.

Byagaragaye ko muri siporo ubuzima bwa buri munsi bwa muntu aba ari ngombwa kunywa amazi, kuko birinda ibintu bitandukanye, yaba mu kumufasha ubuzima bwe kugenda neza uwo muntu ukora siporo, cyangwa se n'ibindi, niyo mpamvu buri gihe umuntu aba akwiye kwitwaza amazi mu gihe afite icyo ari gukora cyinaniza umubiri nka siporo, cyangwa se n'ibindi.

Kunywa amazi menshi kandi meza ni kimwe mu bifasha abantu benshi mu bantu bakora siporo kuko aba ari nko kunywa umuti, rimwe na rimwe usanga kandi tugirwa inama yo kunywa amazi ndetse meza kugira ngo tubashe gukora siporo tumeze neza kuko ari byiza ku buzima.

Usanga akenshi abantu bagomba kuba bafite ibikoresho byose bya siporo, nko mu gihe umuntu yavunitse akagira ibintu bimufasha nko kwizirika, kugira ngo ahagarike nko kuva kw'amaraso, cyangwa se ububabare ubwo aribwo bwose ashobora kuba yagiriye muri siporo.

Muri siporo, ni byiza gufata imiti igufasha kugorora umubiri neza cyangwa se ibyo ari byo byose bigendanye na siporo umuntu aba akora, niyo mpamvu buri gihe umuntu aba agirwa inama kugana abaganga kugira ngo babisobanure neza kandi bamubwire ibigendanye n'umubiri we muri rusange.

Inama yose yiga ku buzima iba ari ngombwa ko ihuriza hamwe abaganga maze bakaba bafite ugomba kubagezaho amahugurwa cyangwa ikiganiro yaba ku buryo bw'inziramigozi ni ukuvuga kuvuga mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bagikurikirane, bunguke ubumenyi bushya mu kazi kabo.

Buriya mu miti itangwa n'abaganga cyangwa se abandi bose babishinzwe, usanga rimwe na rimwe iyitangwa kugira ngo umuntu yimakaze siporo ndetse yirinde ibibazo byose biyiturukamo rimwe na rimwe iba ifunze mu makarito kandi hakaba hari imikasi ishinzwe kufasha uwo muntu kuyica neza atayangije.

Kimwe mu biranga abaganga ni ukuba abanyamwuga ndetse bagakora cyane kandi bishimiye akazi, ariko na none bagomba kuba bambaye impuzankano ndetse nk'iyo uri kuvuga uturindamutwe cyangwa se udupfukamunwa, ndetse bafite n'ibikoresho byabugenewe bifasha kuvura umurwayi muri rusange.

Igihe umuntu akora siporo aba ari ngombwa kwita ku buzima bwe akoresheje imiti imwe n'imwe ibi kwa muganga cyangwa se ahandi hantu hose hacururizwa imiti, yaba ifunze ndetse akagira amabwiriza ahabwa na muganga y'ukuntu azajya ayikoresha mu rwego rwo kwibungabungira amagara mazima.

Amazi rimwe na rimwe afasha umubiri w'umuntu, cyane cyane ku bakora siporo ndetse n'indi myitozo cyangwa se ibindi bikorwa byose binaniza umubiri, ukongeraho isukari kubera ko itanga imbaraga mu mubiri ndetse ikora iri kumwe n'amazi kugira ngo ibashe kongerera umubiri akabaraga.

Kunywa amazi ni kimwe mu bikorwa tugirwa inama n'abaganga, cyane cyane ku bantu bakora siporo ndetse n'imirimo muri rusange ivuna umubiri, kuko usanga bifasha umubiri kugarura imbaraga ndetse no kuwurinda gucika intege bya hato na hato, kandi ukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Muri siporo umuntu akora ibikorwa bitandukanye yaba kwirukanka cyangwa se kwicara ukagorora umubiri. Ariko nanone hari ibintu biba byarabugenewe bimeze nk'aho ari imiti ifasha abantu bose bakora siporo, mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza. Twavugamo nk'inkoni cyangwa se ibindi bikoresho yakoresha, kugira ngo abashe kugera kuri siporo ye nziza.

Imwe mu miti ya siporo umuntu uba wangiritse cyangwa yahuye n'impanuka muri siporo agomba guhabwa, akenshi iyo yakomeretse akagira igisebe bamupfukisha igipfuko kugira ngo bahagarike amaraso, cyangwa se n'ibindi, kenshi usanga tugirwa inama yo kugana kwa muganga igihe cyose tugiriye ikibazo muri siporo kugira ngo dufashwe.

Kugorora amaguru usanga ari kimwe mu bikorwa bikunda gufasha abantu mu buzima bwabo, kuko usanga siporo muri rusange ifasha ibintu byinshi mu buzima bwa muntu, niyo mpamvu aba ari ngombwa kuyikora ndetse ukifashisha amazi mu rwego rwo kutarambirwa vuba.

Abana n'ababyeyi babo muri rusange usanga ubuzima bwabo akenshi bukwiye kurangwa n'ibyishimo ndetse kugira ngo babeho neza bakwiye kuba bishimye kugira ngo babashe kongera iminsi yabo yo kubaho ndetse bagakora siporo cyangwa se ibindi bikorwa byose byo kugorora umubiri muri rusange kuko biba bikenewe mu buzima.

Muri siporo usanga hari ibintu byinshi umuntu akwiye gukoresha kugirango abashe kuba yita ku buzima bwe, yaba imiti cyangwa se ibindi bikorwa aba akora. Niyo mpamvu usanga hari ibikwiye kuba bimupima amaraso cyangwa se umuvuduko w'umutima we ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibindi umuntu yambara ari mu kibuga cyangwa se akora siporo yaba akina umupira cyangwa se akina n'ibindi.

Muri siporo abantu bose bayikora bakangurirwa kunywa amazi ndetse kugira udutambaro cyangwa se kumva umuziki mu gihe bari kuyikora kuko ibi byose bifasha ubwonko kwihutisha ndetse no gukora vuba vuba kugira ngo umuntu aruhuke kandi agire icyo akura muri siporo n'inyungu muri rusange ku mubiri we.

Ibikoresho byinshi usanga bikoreshwa muri siporo nko kuvura indwara zimwe na zimwe akenshi iyo ugiye kwa muganga usanga biba biri ahantu ndetse bikaba bibungabunzwe neza muri rusange kugira ngo bibashe kuba bikoreshwa icyo byagenewe niyo mpamvu akenshi umuntu wese ukora siporo aba agomba kwegera ababishinzwe bakamufasha.

Abantu bakora siporo usanga bakunda guhura n'ibibazo iyo bari kuzikora, twavugamo nko kuvunika ndetse n'ibindi, ariko ntabwo ibyo biba bikwiye gukanga umuntu kuko haba hari imiti yabugenewe, usanga bamwambika ibikoresho byabugenewe niba yavunitse akongera agasubirana ubuzima buzima.

Mu buzima bwa buri munsi abaganga ndetse n'abandi bireba bose bafite aho bahuriye n'ubuzima bwa muntu, usanga bigisha ndetse bahugura abantu gukora siporo kubera ko ari imwe mu bikorwa usanga bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, niyo mpamvu amabwiriza yose ndetse n'inama zituruka ku baganga aba ari ingenzi kuzikurikiza.

Siporo nyinshi yaba iyo gusimbuka cyangwa se iyo kugorora amaguru, usanga igomba gukorwa umuntu yitonze kuko ishobora kukuvuna utitayeho cyangwa se ngo ubikore neza witonze, niyo mpamvu ugomba gukora ibyo muganga yakubwiye kandi yagutegetse kugira ngo ubeho neza,

Imwe mu miti ifasha umuntu ari kwivura mu gihe yakoze siporo, cyangwa se igihe yakoze ikintu icyo ari cyo cyose kikamuhungabanya, usanga akenshi bamuha ibimufasha, kugira ngo akonje aho yari afite nk'ububabare, maze babone uko bamuvura, cyangwa se bakamutera inshinge ndetse n'ibindi, ni muri urwo rwego dusabwa kuba niba duhuye n'ikibazo tugomba kwihutira kujya kwa muganga.

Siporo ziri mu bwoko bwinshi aho usanga umuntu ashobora kwirukanka, gusunika ibyuma, cyangwa se guterura ibiremereye, ndetse ibi byose bifasha umubiri mu buryo butandukanye, kandi abaganga ndetse n'ababishinzwe batugira inama zo gukurikiza ubu buryo bwose bwa siporo kuko bufasha umubiri kumera neza.

Siporo nkuko ari igikorwa kigorana ndetse gisaba imbaraga nyinshi, usanga harashyizweho ingamba ndetse n'uburyo bwo gufasha abantu bose bayigiriyemo ibibazo nko kuvunika cyangwa kugira uko batakaza imbaraga ndetse n'ibindi byababungabungira ubuzima mu gihe bahuriyemo n'ingorane.

Nyuma cyangwa mbere yo gukora siporo bitewe n'igihe umuntu aruhukira cyangwa aba abishakira, asabwa ndetse n'abaganga ko agomba gufata imiti rimwe na rimwe cyangwa se ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa byunganira umubiri, kugira ubashe gusubirana imbaraga uba watakaje muri siporo, ibyo kurya twavugamo nk'indimu, ndetse n'amashu cyangwa se n'ibindi.

Siporo muri rusange, akenshi aba ari byiza ko umuntu ayikora afite amazi iruhande rwe, cyangwa se agaterura ibyuma kuko bifite aho bihuriye na siporo ashaka ndetse imufasha mu buzima, ikindi kandi aba ari byiza gushyira mudasobwa imbere yawe, kugira ngo urebe ayo makuru yerekeye na siporo uri gukora.

Umuganga cyangwa se undi muntu wese wabyize ni we muntu uba wizewe wagufasha gukora siporo ifitiye umubiri akamaro niyo mpamvu akenshi n'ubwo abantu benshi bakora siporo ariko bagomba kugirwa inama ko abaganga ndetse n'abandi bose baba barabyigiye, nk'abarimu bazo bagomba kubafasha kandi igihe cyose bavunitse bakihutira kujya kwa muganga.

Indabo muri rusange ndetse n'ibindi bimera, biba bifite akamaro kenshi cyane mu rwego rw'uko usanga bitanga nk'imiti cyangwa se ugasanga bikorwamo imibavu ifasha abantu muri rusange kurimba ndetse no kubaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imiti muri rusange usanga ituruka mu bimera, niyo mpamvu usanga nk'ibimera biba byihariye kuvura indwara runaka, nkuko twavuga umuravumba ko uzwi mu kuvura mu nda cyangwa se inkorora, ugasanga abantu benshi batakaza amafaranga bagura imiti mu bigo bishinzwe kuyicuruza bahendwa, ariko mu by'ukuri haba hari imiti yabugenewe igomba kubavura.

Imiti yose muri rusange cyane cyane iya gakondo usanga ari ibintu bafata bakavangavanga ubwo ni ukuvuga ibimera, maze bagashaka uburyo babihuzahuza kugira ngo bitange imiti ndetse bakabishyira ahantu kugira ngo bize kugumana ubudahangarwa, maze bizahabwe umuntu urwaye kugira ngo bimuvure.

Mu moko y'imiti usanga iba ikoze mu buryo butandukanye ndetse iba iteye mu buryo butandukanye, aho usanga hari ibikoze mu buryo bukomeye ubwo twavuga nk'ibinini, ndetse n'iy'ikozwe mu buryo bw'amazi inywebwa, ariko nanone ntabwo twakwibagirwa iba ikoze nk'iyo wavuga nk'ifu, aho iba nayo ifite icyo yagenewe gukora, ndetse n'uburyo yagenewe gukoresherezwamo.

Imiti yose byagaragaye ko ibasha kuba yakangirika, ariko ubwenge bwiza ndetse n'umutekano wayo usanga iba ikwiye gushyirwa ahantu heza, nko mu macupa ndetse n'amakarito abasha kuyifasha kumara igihe kirekire, mu rwego rwo kuzajya ivura ndetse ikifashishwa igihe cyose ikenewe.

Mu iterambere tugezemo usanga ari byiza ndetse byihuta gukoresha imashini mu rwego rwo gukora nk'imiti cyangwa kuyisarura aho iba ihinze kubera ko byihutisha akazi ndetse bikihutisha ikorwa ry'imiti ndetse uyikeneye akayibona ndetse bitamugoye cyane kandi byihuse.

Imiti yose muri rusange iba ifite akamaro ko kuvura, yaba ikorwa mu bimera ikanyuzwa mu nganda, rimwe na rimwe yose iba ifite umumaro igomba gukora mu buzima bw'umuntu. Nk'igikakarubamba usanga kivura indwara rimwe na rimwe zo ku ruhu cyangwa se n'ibindi. Ni yo mpamvu umuntu agomba kubaha imiti iyo ari yo yose ndetse n'ibimera muri rusange.

Kubika imiti ahantu heza hafite isuku ndetse hahehereye usanga ari byiza kubera ko rimwe na rimwe imiti iba ifunze mu makarito cyangwa se amacupa, kandi aba ari ngombwa kubera ko usanga itabitswe neza ndetse ahantu higengesereye ishobora kwangirika igatakaza ubudahangarwa.

Imiti yose muri rusange usanga akenshi ibarizwa mu bigo bikunze kuba birimo ubuvuzi cyangwa se ahandi hose, iba ibungabunzwe ndetse ikabikwa, neza kugira ngo umurwayi cyangwa se undi wese nayikenera azabashe kuyibona kandi agire ahantu hazwi neza ayibaririza.

Imiti yose itangwa no kwa muganga, akenshi iba ifite ahantu ihuriye n'ubudahangarwa bw'umubiri. Niyo mpamvu aba ari ngombwa niba ari ibinini uhawe, kubinywa ndetse kubikoresha uko ubitegetswe na muganga kubera ko aba abifite mu nshingano kukubwira uko ugomba kubikoresha.

Siporo usanga ari kimwe mu bikorwa bya buri munsi umuntu akora kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse yirinde ingaruka mbi zo kudakora siporo. Twavugamo nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa se izindi ndwara nyinshi harimo n'umubyibuho ukabije cyangwa n'ibindi.

Imiti imyinshi twasanze ko buri gihe ikunda gukorwa iturutse mu bimera ndetse n'ibindi, ni yo mpamvu rimwe na rimwe nk'ikigo gishinzwe ibimera cyangwa se ibidukikije biba bibujijwe kwangiza icyo ari cyo cyose gifite ubuzima, kubera ko kiba giteganyirijwe akazi kenshi kandi keza ku buzima bwa muntu.

Imiti yose muri rusange yaba ibinini cyangwa se n'iyindi miti y'ubwoko bwose bigaragara ko ituruka mu byatsi, niyo mpamvu uburyo ikoreshwamo na bwo buba butandukanye, twavugamo ko hari iyo bamira, hari iyo banywa n'ibindi, niyo mpamvu kandi nanone ugomba gukurikiza amabwiriza ya muganga mu rwego rwo kugira ngo ukire neza.

Imiti muri rusange usanga ituruka mu byatsi cyangwa se ibindi bimera, aho twavuga ko rimwe na rimwe usanga imiti myinshi ituruka nko mu mbuto twavugamo nk'indimu, ndetse n'ibindi, kandi tukaba tugirwa inama yo guhinga, ndetse gukora ubusitani, ndetse no gutera ibimera hafi yacu kugira ngo rimwe na rimwe tuzajye tuba twegeranye n'imiti.

Imiti yose muri rusange yaba isukika cyangwa se ihekenywa usanga ihuriwe ko ivura kandi igafasha umubiri, niyo mpamvu yose byagaragaye ko ituruka mu bimera kandi akaba ari ngombwa ko tugomba kubifata neza ndetse ntutangazwe n'uko ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kukuviramo umuti kandi ukaba usabwa kukibungabunga.

Imiti iba igomba kugira ahantu ibikwa habugenewe, yaba nko mu macupa ndetse no mu mashashi cyangwa se amakarito meza afunze neza, mu rwego rwo kuyigumisha ifite ubuziranenge kugira ngo izabashe kuvura neza kandi ikimeze neza nta kibazo yahuye na cyo.

Imiti yose akenshi kubera ko iba ari iy'ingirakamaro usanga ihurirwaho ko igomba kubikwa ahantu heza nko mu macupa cyangwa se amakarito yabugenewe, ikabikwa ahantu heza hatagerwa n'umuntu uwo ari we wese ku buryo yabasha kuyangiza byoroshye maze kugira ngo izavure neza kandi ifite ubuziranenge.

Imiti yose kugira ngo itunganywe, ibanza kwitabwaho ndetse hakamenywa inkomoko ndetse n'ibyo ikozemu, niyo mpamvu usanga ari ngombwa kwita ku miti umuntu afata iyo bagiye kumuvura kandi agafashwa neza kugira ngo avurwe byitaweho kandi mu mahame ya kivuzi.

Umuti uwo ariwo wose usanga uba ufite indwara ukwiye kuvura kandi ukaba ufite amabwiriza ugenderwaho kugira ngonwebwe cyangwa se ukoreshwe, niyo mpamvu umuntu wese aba asabwe gusoma amabwiriza aba yanditse inyuma mbere y'uko awukoresha kugira ngo utamwangiza aho kugira ngo umuvure.

Mbere y'uko umuntu akoresha imiti aba ari ngombwa gusoma amabwiriza aba ayigenga ndetse yubahiriza uko igomba gukoreshwa, kubera ko usanga buri muti uwo ariwo wose uba ufite uko ugomba gukoreshwa ndetse amabwiriza aba yanditse ku dupapuro tuba turiho, cyangwa se akaba yanditse mu miti akenshi cyane cyane ku macupa ndetse n'aho aba imiti ipfunyitse.

Ibimera cyangwa se ibyatsi muri rusange bitanga imiti yizewe kandi ikora neza cyane cyane iyo yabanje gucishwa mu nganda ikongerwamo ibindi byose biyifasha kuba myiza ndetse kuyongerera ubuziranenge, niyo mpamvu usanga tugirwa inama yo kubyitaho muri rusange.

Imiti myinshi igomba kuba ifunze mu macupa cyangwa se ahandi hose hayifasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'igihe kirekire kugira ngo niba itarakoreshwa ariko ntiyangirike, niyo mpamvu aba ari ngombwa kugira gutya ukayibika ahantu hizewe kandi hafite ubuziranenge.

Kubika imiti ntabwo bihagije kuyishyira mu byuma gusa byabugenewe kugira ngo biyirinde. Ahubwo aba ari ngombwa kuyibika nko mu makarito yabugenewe cyangwa se amacupa meza, ameze neza abasha kuyibika igihe kirekire kugira ngo itazangirika kugira ngo na none umurwayi nayikenera azabashe kuyibona byoroshye.

Imiti myinshi usanga ituruka mu ruvangavange rw'ibimera, niyo mpamvu usanga leta ndetse n'abaganga bahuriza hamwe ku kintu kimwe cyo kuvuga ko ikimera icyo aricyo cyose kiba gifite akamaro kuko kiba gishobora gutanga umuti wabuze ahantu henshi ku isi yose, kandi bagafata neza ibyatsi ibyo aribyo byose.

Imiti yose kubera ko ituruka mu bimera, byagaragaye ko kandi byasabwe na Leta ndetse n'ibindi bigo byose bikora serivisi z'ubuzima ko abantu bose bakwiye kwitondera ndetse bakubaha ibimera ndetse kubera ko bitanga ibintu byose, byinshi, kandi bishobora gufasha mu buzima bwa buri munsi bwa muntu.

Imiti akenshi usanga yifashishwa iturutse mu bimera byinshi muri rusange, twavugamo nk'indimu cyangwa se ibindi byose biribwa, niyo mpamvu usanga abantu bose bashinzwe ubuzima cyangwa se abandi bazi ubuzima usanga batugira inama yo kutangiza ibimera.

Imiti ituruka mu bimera usanga ari ngombwa kandi ko ibikwa neza kubera ko usanga ivura ndetse igakora ibyinshi bitandukanye, ni yo mpamvu ibimera byose biba bikwiye kwitabwaho ndetse bikabungabungwa, kuko bitanga byinshi urenze ku miti ndetse n'ibindi, bitanga n'ibiryo.

Imiti muri rusange usanga ari ngombwa kuyibungabungira ahantu habugenewe. Ni ukuvuga nko kuyibika nko mu macupa meza kandi afite isuku kandi ukayapfundikira neza. Kubera ko aba ari ngombwa ibi ngibi kugira ngo atazagira ikibazo ndetse n'iyo miti ikangirika itarabasha kuvura umuntu yateganyirijwe.

Imiti myinshi iba ifungiye mu macupa, akenshi usanga iba ari myiza, kubera ko biyirinda kwangirika ndetse bikayongerera ubuzima n'ubuziranenge, kugira ngo imare igihe kirekire umuntu uzayishaka mu gihe runaka izamufashe, kandi izabe igihari, kuko ibi ari byiza ndetse ari uburyo bumwe bwo kwirinda.

Imiti yose yaba iya kera cyangwa se n'iy'ubu aba ari ngombwa kuyibika ahantu heza mu macupa asukuye cyangwa se ahandi hose. Kandi ikindi ukaba ari ngombwa kuwufata ugombye kubanza kugirwa inama na muganga cyangwa se undi wese uwuguhaye kandi akaba yizewe ndetse abifitiye uburenganzira.

Imiti yose hamwe muri rusange, ni byiza ko ibasha kubungabungirwa ahantu hatandukanye, ndetse kuyishyira ahantu heza hafite n'isuku, ni kimwe mu biyifasha kugumana ubuziranenge, kubera ko nko kuyibika mu macupa ameze neza kandi afunze neza, bifasha kugumana ubudahangarwa, niyo mpamvu tubisabwa n'inzego z'ubuzima.

Twinjiye mu gice cy'ubuvuzi ndetse n'imitangirwe y'imiti, usanga buri muti uba ufite icyo wakorewe ndetse n'indwara uba warakorewe kuvura. Aho usanga hari yarashinzwe gukorerwa, cyangwa gutangirwa ku bantu bakoze siporo bakababara, cyangwa se abandi barwaye igice cy'umutwe cyangwa se ikindi gice muri rusange.

Amababi y'ibiti usanga akenshi iyo avanga avanzwe n'ibindi byose akunda kuvamo imiti ya gakondo cyangwa se iyindi iyo ari yo yose ijyanywe mu nganda igatunganywa ndetse ikoherezwamo n'ibindi byose bibasha kuyigira ikaze, niyo mpamvu aba ari ngombwa kubaha ndetse no kudaca igiti icyo aricyo cyose kubera ko kiba gifite akamaro umuntu atazi rimwe na rimwe.

Imiti myinshi usanga ifatwa mu buryo bwo kuyinywa cyangwa se kuyirya, ni yo mpamvu ariko na nonene iyo bishobotse ko uyiteka nk'amazi aba ari byiza, kubera ko hano yinjira mu mubiri imeze neza kandi ikagera ku ndwara vuba maze ikayirwanya yitonze.

Imiti rero muri rusange byagaragaye ko ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu bwa buri munsi, niyo mpamvu usanga igomba kuba ipfunyikiye ahantu heza, yaba mu makarito ndetse n'ibindi kandi ikaba ifite ubudahangarwa kandi na none ikarindwa bikomeye kubera ko umuntu igihe icyo ari cyo cyose ashobora kuyikenera ndetse akayikoresha.

Mu buzima bwa buri munsi akenshi imiti ituruka mu bimera ndetse n'ibyo kurya, niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu aba ari ngombwa gufata ibyo kurya byiza, yaba ibikubiyemo amata cyangwa se imbuto muri rusange nk'imineke kugira ngo abashe gukomera kandi kugira ngo yubake ndetse yirinde indwara zimwe na zimwe zishobora guturuka ku kuba atafashe intungamubiri zituruka mu mirire.

Imiti muri rusange byagaragaye ko ari byiza kuyibika ahantu hahehereye, hadashyushye cyane cyangwa hakonje cyane, kugira ngo ibashe kugumana ubudahangarwa bwayo, kandi izabashe kuvura mu gihe cyateganyijwe, niyo mpamvu usanga ari ngombwa kuyibika ahantu heza, aho ngaho kandi hakorewe isuku.

Imiti y'ibinini cyangwa se iyindi iyo ari yo yose ni ngombwa kuyikoresha uko kwa muganga baba bayikwandikiye kuko akenshi bayiguha bigendanye n'indwara bakubonyemo ndetse bashaka ko bayikuvura ndetse igakira kandi bya burundu, niyo mpamvu ataba ari ngombwa gusuzugura imiti umuntu yahawe kuko akenshi usanga inahinnze.